Icumba kirimo ama etajeri garambitsemo inzoga nyinshi ,imbere yaho hari akabati kazengurutsweho n'intebe z'ibiti ziriho imisego z'umweru ,akaba ari inzu banyweragamo inzoga.

Isahane y'umweru iriho inyama ziteguye mu buryo bw'ubuhanga, iriho imbuto z'indimu n'ibitunguru na sereri, rikaba ari uburyo butegurwaga n'inzu ziteguraga ibiryo kugira ngo abakiriya baryohegwe.

Inzu irimo amatageri menshi, garambitsemo inzoga z'ubwoko bwinshi, munsi yazo harimo ibirahuri akaba ari umugabo uri imbere yazo, ushinzwe gukora mako kabari uhagaze ku kabati.

Inzu y'umuhondo ifite uturongo tw'umweru tw'amakaro, imbere yayo hari utumeza tw'ubururu dufite intebe z'umweru. Inzu ikaba ifite n'umuryango gufunguye, ikaba ari inzu icuruzaga ibiryo ndetse n'inzoga zisembuye.

Inzu yubakishijwe amatafari ndetse n'ibiti hanze ya yo hari ibidara by'umweru, hakaba harimo akayetajeri karimo inzoga nyinshi n'akabati, imbere y'aho hari intebe zigiye zitandukanye hakaba ari abantu banweraga inzoga.

Isiyete y'umweru irambitseho ibijyo by'inyama zikaranze zisa umutuku, zirimo ibirungo by'icatsi. Ubu bukaba ari ubujyo bukoreshwaga n'amazu gacuruzaga ibiryo.

Amazu menshi gatonze umurongo. Imbere yago hari indabo kandi imbere yaho hari umuhanda gw'amapave guciyemo n'imirongo z'ubururu, zihagazemo abantu barimo kugenda ndetse n'ameza gagiye gatandukanye bariragaho.

Isahani y'umweru iteguranye ubuhanga iriho ibiryo bitandukanye ari byo by'amafiriti, inyama ,ibitunguru n'ibindi birungo bitandukanye biryoshaga ibiryo.

Ahantu hari intebe z'umutuku zikoze ikizeru zizengurutse buri meza y'umutuku ifite umutaka g'umutuku, iruhande gwaho hose hakaba hari amakaziye g' umutuku ,akaba ari ahantu banyweraga inzoga na fanta.

Inzu yubakishijwe amakaro ifite inkuta zisize amarangi g' umukara n'umweru irimo amaduka gafunguye gacuruza ibicuruzwa bikoreshwaga mu makaritsiye hakaba hari n'umugabo ufite igare hanze.

Inyubako irimo amabutike canga amaduka yacuruzaga imyenda, ndetse n'ibikoresho abantu bararagaho aribyo by'ibitenge, imisego amashuka.

Inzu irimo amaduka gagiye gatandukanye garimo agacuruza imyambaro yiganjemo amashati, amapantalo n'inkweto bigugwa n'abakiriya bashaka kwambara neza.

Umuhungu wicaye imbere y'igipangu gikozwe n'ibyuma n'amatafari. Wicaye iruhande rw'intebe imanitse y'imikufi zigiye zitandukanye hamwe n'impeta, bacuruzaga ku muhanda.

Inzu yubakishijwe amakaro ifite umujyango gw'ubururu ukaba ufunguye, akaba ari iduka ritunganyaga imisatsi, aho abantu bajaga bakabogosha bakavamo basa neza.

Iduka rifite imiryango ibiri ifunguye rifite aka etajeri karimo ibirundo by'amabati ga ruminiyamu, hasi hari amakaro g'umweru garambitseho umufuka g'umuhondo.

Icumba c'umweru, kirimo ama etajeri g'umweru, garimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, birimo imikufe, ingofero, amavuta n'amaparufe.

Inzu ifite amabati g'umutuku， isize amarange g'umweru， imbere yayo hari akazu gato k'ibiti kaba kanakikijwe n'igipangu cane， senyenge akabara bacuruzaga ibiryo.

Inzu isize amarangi g'umuhondo yanditseho n'ag'umukara n'ubururu. Munsi y'ago magambo hari umuryango gufunguye, muri ugo muryango harimo etajeri, imbere yayo harimo etajeri y'ibirahuri irimo amandazi hejuru yayo hari imikati.

Icapa gikozwe mu biti bitatu bitandukanye, Kiri kugaragaza ahantu handitseho irebero. Hakaba ari ahantu hacuruzaga ibikoresho byo mu nzu by'ameza, bikaba ari ibyapa bigaragazaga ahantu.

Inzu zisakarishijwe amabati ifite ibikuta bimeze nk'ibirahuri biriho umuti g'umukara, bukaba ari ubujyo bukoreshwaga mu kubaka amazu akenshi bw'ama etaje.

Inzu y'amabara g'umuhundo ifite ibyapa bigaragazaga ibyo amaduka akoreragamo acuruzaga, hakaba hari serivise zigiye zitandukanye z'amabanki n'izindi sosiyete zitandukanye.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kijambere y'umweru. Ku ruhande hariho igipangu c'ibyuma, hejuru yayo hakaba hari icapa cigaragaza ibikorwa bikorerwamo, ari ibyo kudoda imyenda z'abageni ndetse abagabo n'abagore.

Inzu yubakishijwe ibyuma iriho ibisima by'ibyuma ndetse na sima. Hejuru y'ibyo bisima hari imbabura y'ubururu, yegeye akabati k'imbaho. Aha akaba araho bacururizaga mu isoko rya kijambere.

Inyubako ndende y'amagorofa menshi ifite amarangi g'umweru n'umukara iri inyuma ya sitasiyo ya esansi yitwa lubisi yandikishijweho amagambo g'umutuku ikaba ariho imodoka zinyweraga esanse.

Abantu b'abagore bahagaze imbere y'inzu y'umuhondo irimo iduka ricuruzaga imyambaro yiganjemo iyadozwe ariyo ibitenge ndetse n'inkweto za masayi, mu nzu hakaba harimo n'imashini zifashishwaga mu kudoda imyenda.

Inyubako ndende y'umweru y'amagorofa atatu, munsi harimo isoko rya suparmaketi ricuruzaga ibintu byerekeranye n'ibiryo byifashishwaga mu ngo bigizwe n'imigati n'ibiryo bindi bitandukanye.

Inyubako yubatswe ku muhanda ifite ibara ry'ikijuju, ifite amadirisha g'umweru. Imbere yayo akaba ari amavaze gateyemo indabyo. Hakaba hacururizagamo amaduka gacuruza ibikoresho by'imodoka n'imyenda.

Inzu y'umukara iriho icapa gishushanyijeho amagambo g'umuhondo n'ag'umweru, igaragaza ko ari inzu bararagamo bakishura, akaba ariho abantu baruhukiraga.

Inzu yubakishijwe amatafari, ikaba ari inzu irimo amabutiki menshi yanditseho kariyeri ,ikaba igaragaza ibyo bacuruzaga birimo capati n'ibindi bijyo bitandukanye.

Inzu yo ku muhanda isakarishijwe amabati gw'ubururu, irimo amaduka gacuruzaga ibikoresho byo mu nzu, bigizwe n'intebe n'ameza, ku ruhande hari iduka ricuruzaga imyambaro n'ibikapu, ndetse harimo n'imashini zikoreshwaga ku bidoda.

Iduka rifunguye rifite umuryango gw'icatsi barambitseho ibuye rifite na sima mo imbere, akaba ari iduka ricuruzaga ibikoresho bakoreshaga bari kubaka ndetse no gukanika.

Inzu yubakishijwe amabati gashaje, ifite akantu k'amatafari hejuru y'amabati. Yegeranye n'ibiti birebire, ibi biti bikaba ari ibiti bivagamo imbaho, ndetse bakaba banabigurishaga.

Inzu isize amarangi g'umuhondo, ifite inzugi z'ifitse ibirahuri m'imbere, ndetse zisize n'irangi g'icatsi hakoreraga umuntu ucuruzaga imyenda, ndetse n'ibindi bitandukanye by'imitako.

Umugabo wambaye igisurubeti c'umuhondo uhagaze imbere y'inzu yubakishijwe ibiti, izi zikaba ari inzu zikoreshwaga mu korora inyamaswa zigiye zitandukanye.

Inzu yubakishijwe amatafari matoya, ifite icapa c'umutuku ca eyateri, ikaba ifunguye idirisha, akaba ari amabutike abonekaga mu makaritsiye imbere yayo hari imifuka y'imyanda.

Inzu zubakishijwe amakaro hejuru. Zikoreragamo amaduka gacuruzaga ibintu bigiye bitandukanye birimo ibisheke, ibidomoro, ndetse n'amavoka imbere yaho hariho n'abadozi.

Inzu yo ku muhanda irimo amaduka afite imijyango z'umweru, abantu bari kwinjiramo, imbere yayo hari abashinzwe umutekano ba daso n'abashinzwe gutwara abantu ku magare.

Inzu, inzuzi isize amarangi g'umweru ifite inzugi z'ibyuma zirimo ibirahuri, irimo butike icuruzaga ibikoresho bitandukanye birimo intebe n'ibikapu, ndetse n'ibindi bikoreshwaga mu ngo.

Inyubako ndende y'umuhondo y'isoko, yifashishwaga mu gucuruza, aho abaguzi n'abacuruzi bahurira bakagurana amafaranga n'ibicuruzwa, ndetse akaba ari na ho bamamarizaga inzoga za sekoro.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo, n'abanyeshuri bambaye iniforume. Begeye igipangu c'umuhondo kiri kwamamaza ibikorerwaga muri iyo nzu, byiganjemo ibiribwa n'ibinyobwa bisembuye, igipangu kinafite n'ibara ry'umutuku.

Icapa c'umukara cirambitse ku nzu, canditseho amagambo gw'umweru garimo n'amabara gw'umutuku n'ag'umuhondo, akaba ari icapa cigaragaza ibikogwa muri iyi duka.

Iyi nzu yubacishijwe ibyuma hejuru isize amarangi g' umuhondo gari mu maduka gacururizamo ibintu bigiye bitandukanye ariho n'icapa kigaragaza ko ari kilinike.

Iduka rifite imiryango z'umokara z'ibyuma Ricuruzaga ibyuma bakoreshaga mu kubaka amazu, ari byo by'ibihombo, amaravabo n'imisumari bigiye bitandukanye.

Etajeri y'ibiti yo mu iduka irimo udufuka tw'imiceri ndetse n'ubucupa bw'urusenda, aga gakaba ari amaduka gacururizaga mu nce zo mu byaro ndetse no mu mijyi, hegereye aho abantu batuye.

Inzu iriho imiryango ebyiri ifunguye, imbere y'imiryango hari ibicuruzwa bikoreshwa mu mazu y'abantu byiganjemo imisego y'intebe, tapi bakoresha barambura hasi, ndetse n'amamatora abantu bararaho.

Inzu yubatswe n'amatafari matoya isakarishijwe amabati g'umutuku, ku gipangu cayo hari icapa, kigaragaza ibikogwa bikorera bikorera muri iyi nzu, ari ibyo kuba abantu bayikodeshaga bakayiramo.

Icumba c'umweru kirimo amaporotemento babikaho imyenda zikaba ziriho amakanzu menshi g'abagore imbere yago hari imashini zikoreshwaga mu kudoda imyenda ubu bukaba ari uburyo bikwagamo imyenda mu matori.

Itsinda jy'abantu b'abagore biteze ibitambaro by'umweru n'umukara bambaye n' inifomu y'umweru amashati y'umweru ndetse n'amajipo g'umweru bari ahantu ku rubyiniro ruriho amatara gubakishijwe n'ibyuma.

Itsinda ry'abantu bambaye udupfukamunwa harimo n'abashinzwe umutekano mu rwego rwa g'ipolisi, bazengurutse ameza y'umutuku irambitseho ubukarito bwinshi, imbere y'iyo meza hari umugabo wambaye agapira k'umweru.

Inzu isize amarangi g'ubururu n'nkuta zisize amarangi y'icatsi n'umweru, ikoreragamo Banki ya Gakenke.

Inzu isize amarangi g'umuhodo zirimo iduka ricuruzaga ibintu bigiye bitandukanye, ari n'ingofero, amatefoni, amaradiyo n'utundi twenda tw'udusunzu.

Inyubako zigiye zitandukanye, imbere yazo ha abantu barambitse hasi imyenda ku ma ku mufuka, nyuma mabi igihe bitandukanye ikaba ari imyenda za caguwa, zibazaga zaturutse hanze.

Etajeri y'ibibaho yubatse iruhande rw'igiti iriho ibicuruzwa bicuruzwaga mu masoko bikaba bikoreshwaga mu nzu z'abantu birimo amasafuriya, imbabura n'amabasi.

Abagore bicaye hasi ku mifuka mu kibuga cy'ibitaka, barambitse imifuka hasi bagashiraho ibiribwa bicuruzwaga byo kurya, cane ibyifashishwaga mu guteka imboga, ari ibyo intoryi n'inyanya n'ibitunguru.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo n'abagore, bahagaze imbere y'isoko bacuruza ibintu byerekeranye n'imbuto, ririmo: avoka, imyembe, ibinyomoro n'amarongi, bikaba ari ibicuruzwa bijyanwa ku isoko kugira ngo abacuruzi bahure n'abaguzi.

Umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'igitaka, wicaye imbere ya etajeri zirimo ubwoko bwinshi bw'ibicuruzwa by'amavuta, abantu bisigaga ndetse n'amasabune bakoreshaga bari koga.

Abantu benshi barimo abagore bahagaze barimo kugura ibintu ,iruhande gwabo hari amaduka garambitseho ibisheke bakaba bose bari ahantu hubakishwa ibyuma, akaba ari mu isoko.

Ibikoresho by'uduseke bizengurukijweho inyuma amasaro, ubu bukaba ari ubujyo bukoreshwaga mu gukora ibiseke hakoreshejwe intoki, bakabutaka bashizeho amasaro menshi gagiye gatandukanye kugira nko bibe byiza.

Umugore n'akana bahagaze ku mapave, imbere yabo hari ihema rirambuye ry'umweru, rirambitseho imyenda z'abagore zamwe imbere akaba ari imyenda zigurishwaga ziturutse mu bihugu byo hanze.

Itsinda jy'abantu b'abagabo bahagaze imbere y'utuzu dutoya turimo ibikoresho bya elegitoniniki, byiganjemo amatelefoni n'ibindi bigiye bitandukanye, ubuzu bukaba busize amabara gw'umutuku.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, hibitaka ndetse hari n'amabuye arimo umugore urikuzirika ibiti byinshi, batekeshaga imbereye hari ibigori bitatu birambitse ku mabuye.

Abagabo babiri bambaye imyenda z'umukara bunamye bari gukora ku myenda zirambuye hasi, hari ihema jy'umweru izi zikaba ari imyenda zigurishwaga amafaranga makeya zavuye hanze.

Ikimera c'igifenesi. Iyi ikaba ari imbuto y'igifenesi akaba ari igihingwa kivaga mu giti, abantu bakarya utuntu tw'imbere tubaga turimo. Na cyo kikaba cyifashishwaga mu kugabanya imirire mibi.

Inzu yubakishijwe ibyuma inasakarishijwe amabati, ikaba ari indi irimo abantu benshi i ndetse n'imifuka zigiye zitandukanye z'umutuku n'ibitebo, iriho n'ibisima bacururizagamo ibicuruzwa bitandukanye.

Inzu yubakishijwe ibyuma, munsi yayo harambitse ibisima bifite imbuto bacuruzaga mu isoko, ziganjemo imineke, amarongi, imyembe n’ibindi bigiye bitandukanye, bikaba bibonekaga mu masoko aho abaguzi babisangaga.

Akabase k'ubururu karambitsemo ibimera byu by'umweru bifite amababi g'icatsi, akaba ari ibimera bakoreshagamo bari gukora imboga.

Itsinda ry'abagore bicaye mu kibuga ki amabuye ndetse n'ibyatsi bafite imifuka zirimo ibicuruzwa n'udupaniye abakaba ari abagore babaga bari mu masoko abaga ari mu ma karitsiye gagiye gatandukanye.

Igihingwa c'ibisheke kirimo iby'umuhondo, n'iby'a move, n'iby'icatsi. Kikaba ari igihingwa gikoreshwaga mu gukora isukari, ndetse abantu bakaba banabijya mu buzima busanzwe.

Itsinda ry'abantu ryiganjemo abagore bari imbere y'ibiryo barimo baragurisha higanjemo ibitoki bakaba bari kubicururiza munsi y'inzu yubakishijwe ibyuma inasakarishije amabati g'ibyuma.

Ibikoresho bikoreshwaga mu ngo z'abantu, birambitse kuri sima yamenetse. Ibyo bikoresho bikaba birimo amapanu n'amarushe gago, amasahani g'ibyuma n'aga pulasitiki n'ibikombe.

Itsinda jy'abagore bahagaze n'abari kugenda, hariho umu umugore ufashe indobo urimo uracuruza ibirayi, inyuma yabo hari ibisima birambitseho ibicuruzwa bicuruzwaga muri iri soko.

Abantu benshi bahagaze n'abicaye ku butaka bw'imbuga y'ibitaka, irambitseho imifuka iriho imyenda zigiye zitandukanye, ndetse hari n'umuntu urigucuruza udufuka.

Iduka ririmo etageri irihibiribwa. Imbere yaho, hari etageri ry’umweru, irambitseho amatelemosi gifashishwaga mu kubika ibisukika bishushe. Imbere y’amatelemosi, hari akabido n’igikombe kirimo amata y’ikivuguto.

Itsinda ry'abantu ririmo abagabo n'abagore bari kuzamuka mu nyubako y'amagorofa irimo ama esakariye gariho ibyuma, zikaba ari inyubako zubakwa kugira ngo abantu bature cangwa se bacururize ahantu hatoya ari benshi kubera ko baririmo umugorofa.